Urutonde rw'imiti yifashishwa mu buhinzi. Aho harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa kugira ngo yice udukoko twibasira ibihingwa.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi afite ipopo mu mugongo arimo arafuhira ibihingwa bye by'ibigori. Yambaye uturindantoki tw'umweru.

Umugabo wambaye bote ndetse ikabutura n'insengeri afite ipompo, ipompa umuti arimo arafuhira amashu. Ni byiza gufuhira imyaka yacu kugira ngo itaribwa n'udukoko.

Umusore ufite agakoresho kabugenewe mu ntoki karimo karacucira ibihingwa, ahetse ipomba mu ntoki arimo arafuhira, ibi birinda imyaka kuribwa n'udusimba.

Abagore bari mu buhunikiro bw'imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo abagoronome bambaye amataburiya barimo barahereza, imbuto abaturage ngo bajye guhinga.

Ubworozi bw'amafi, bugira umusaruro, abagabo bane bahagaze mu cyuzi, barimo bararoba, urabona ko bishimiye umusaruro, barimo barashyikira.

Ubworozi bw'amafi buteye imbere mu gihugu cyacu, uru ni urubyiruko rurimo abasore barimo bararoba amafi bifashishije ibikoresho byabugenewe, birimo indobani n'ibindi.

Amazi y'ikiziba, iruhande rwaho ateye insina zitandukanye, hirya hatuyeyo abantu, hariyo amazina.

abagabo batanu barimo barafata inshundura biragaragara ko bakora ubworozi cyangwa se uburobyi barimo bararoba amafi bamwe bahagaze mu bwato.

Ubworozi bw'amafi harimo umugabo wambaye umupira w'umukara, afite itiyo ritwara amazi ari ahantu hazitiye hafite umutekano.

Ubworozi bw'amafi, bukorerwa mu duce dutandukanye tw'igihugu. Uyu ni umugabo ufite igihombo mu ntoki, yambaye ingofero ndetse n'umupira w'umukara, arimo aratunganya amazi.

Abagabo bane bafite ibicundura mu ntoki barobye amafi menshi, igikorwa cy'uburobyi ni igikorwa giteza imbere abagikora ndetse kikazamura imibereho myiza y'abaturage.

Uburobyi bw'amafi ni kimwe mu bikorwa byateye imbere mu gihugu cyacu cy'u rwanda, ndetse amafi adufasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage, mu kurwanya indwara zituruka ku mirire mibi.

Ubworozi bw'amafi, buri ahantutu hatuje kandi hatekanye, hari umugabo urimo agenzura uko bumeze, iruhande rwabwo hari akazu ndetse hari n'intoki ku ruhande.

Umugore wambaye agapira ka oranje arimo aratunganya ikawa. Ikawa ni igihingwa gihingwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho cyoherezwa i Mahanga kikatwinjiriza amadovize.

Icyayi giteye ahantu heza habugenewe harimo abagore babiri barimo barasarura. Icyayi ni kiza ku buzima bwacu ndetse ku bukungu kinjiza amadovize.

Abagore babiri bahetse udutebo inyuma yabo, bari mu cyayi barimo barasoroma, umwe muri bo yambaye akagofero k'umutuku, akenyeye igitenge.

Abahinzi bari mu cyayi, barimo barasarura bahetse udukoko mu mugongo cyangwa se udutete, bateramo icyayi basaruye, bakakijyana ahabugenewe.

Ababyeyi barishimye barimo baracurira ndetse barimo baraseka inyuma yaho hari igihingwa k'ikawa. Igihingwa k'ikawa ni kimwe mu biteza u Rwanda imbere.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa kizwi cyane mu gihugu cyacu cy'uRwanda, kigurishwa i mahanga kikatugarurira amafaranga menshi ndetse n'imisoro.

Igihingwa k'ikawa, ni igihingwa cyateje imbere abanyarwanda benshi mu gihugu cyacu. Aha iteye ku muronko, biragaragara ko niyera izatanga umusaruro ufatika.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bigoye kubihinga cyane. Gihingwa mu bishanga ndetse gisaba ubumenyi buhagije mu kubihinga.

Ikawa itarera bayita ibitumbwe. Iyi ni ikawa isa neza, gusa iracyari ku biti, itegereje kwera bakayisarura bakayihunika, ubundi ikagurishwa imahanga.

Ikawa iri mu ruhago ishinzemo akadarapo gahagarariye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikawa iranitse, irumye irasa umukara.

Abahinzi bavuye gusarura batwaye ibishyimbo ku mutwe, harimo abagabo ndetse n'abagore biragaragara ko ari igihe k'isarura.

Amacupa yabigenewe ashinzwe kubikwamo imiti ivura amatungo, apfundikijwe udupfundikizo tw'umweru, ndetse ku ruhande rwayo hari amagambo agiye ahanditse.

Inkoko ziri ahantu habugenewe, zirimo ziragaburirwa, harimo utuntu tuzigaburira, zikanywa amazi ndetse zikarya n'ibiryo.

Amacupa yabigenewe abamo imiti ivura amatungo yo mu rugo, ndetse akaba yavura n'inyamaswa z'agasozi.

Utujerekani turi mu ibara ry'umweru, dupfundikijwe imipfundikizo y'icyatsi, dutwaye imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Inka z'inyambo zifite amahembe ateze neza manini, maremare, ni wo mwihariko wazo, zirimo zironsa inyana zazo.

Abaturage bavuye mu muririma, bavuye gusarura imyaka, umwe muri bo harimo arayisunika ku igare, abandi bayikoreye ku mutwe. Barimo baraca mu murima w'ibigori bikiri bitoya.

Inka z'imfirizone, ziri mu mabara y'umweru n'umukara, zose zambaye amaherena y'umuhondo, ziri mu rwuri, zirimo zirarisha.

Umugabo ari mu gishanga arimo arabagarira umuceri, umuceri ni bimwe mu bihingwa bikunzwe mu gihugu cyacu ariko biri no mu bihingwa, bigoye kubihinga.

Umubyeyi ari mu murima arimo aratera ibiti. Ibi biti bivangwa n'imyaka urabona ko arimo arabishyira mu murima w'ibishyimbo by'urugarama.

Abagabo batatu bari iruhande rw'umurima w'ibigori, umusirikare w'inyuma arunamye yambaye inifomu, imbere hari umugabo wambaye agashati k'umweru arimo arabagarira ibigori.

Ikimera cyangwa se igihingwa cyo mu bwoko bwitwa ipapayi ni urubuto rwifashishwa mu kuribwa. Rurinda indwara zitandukanye ndetse rutuma umubiri umera neza.

Umugabo uri mu gishanga gihingwamo umuceri, afite isuka mu ntoki arimo aragenda agiye guhinga, hakurya yaho hari umurima w'ibigori ndetse harimo n'icyapa kiranga.

Umurima urimo imyumbati, ibigori ku ruhande ndetse n'igihingwa kitwa umuyenzi. Harahinzwe biragaragara ko ari ugusekera.

Igihingwa, k'ikigori, ni igihingwa gihinzwe mu gihugu cyacu. kirakunzwe, ndetse kiri mu bihingwa ngandurarugo.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu, harimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibirayi biri mu mufuka ni binini ndetse birasa nkaho byari byeze.

Imboga z'ubwoko butandukanye zirimo: insenda, imiteja, imbwija, ibikoro ndetse n'ibindi. Ibi byifashishwa mu guteka ndetse birinda indwara.

Uruyuzi rwaranze hasi, ibihaza bigeraho iyo rumaze kuyanga, ni urubuto rwera ariko rukerera hasi.

Igihingwa kitwa ipapayi kiri mu bikungahaye ku ntungamubiri zirinda umubiri wacu, giteye ahantu ndetse hari n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Umuhanda w'ibitaka urimo uragendamo abagabo ndetse n'abana bato, uteyemo ibimera bitandukanye ku ruhande rwabo.

Ikimera kitwa igihaza kiri mu bimera bitanga imboga zo kurya, imboga zizwiho kurinda indwara.

Ikibuga kinini kirimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo abantu ku ruhande barimo bazamuka bajya mu giturage, ikirere kirasa nkaho kigiye gutanga imvura ndetse ni heza haratuje.

Amatovu ni bimwe mu bimera bijombana, aba ni abantu barimo bakora amasuku mu mashyamba. Uyu ni umuganda wabaye.

Ishyamba rinini ririmo ibiti byinshi bitandukanye ndetse rikaba ribyazwa umusaruro yaba mu mafaranga cyangwa se ubukungu ndetse rikatuzanira umwuka mwiza duhumeka ari wo ogisijene.

Ishyamba ririmo abadaso ndetse n'abasirikari, barimo baratembera bareba uko hameze. Bamwe bafite inkoni, abandi barimo barabereka uko; .

Umuhanda muremure uri ahantu hazamuka, harimo abanyamagare batwaye, iruhande rw'uyu muhanda hari insina ndetse n'ibiti bitandukanye.

Umugezi utemba hagati y'amashyamba. Uyu mugezi utuma ibi biti bitoha bikamera neza. Iruhande hari ibyatsi byiza bitoshye bimeze neza.

Ishyamba rya kimeza ry'inzitane iyo ari mu gihe cy'ubukonje igihu kiraza kikaritwikira biba bifite isura nziza.

Ishyamba ririmo ibiti bikuze birebire byiganjemo ibya gereveriya, harimo umuntu umwe uhagaze yegamiye ku giti. Amashyamba ni meza adutezambere mu buryo bwose.

Ishyamba rinini riri mu bigize ibidukikije mu Gihugu cyacu, ibi ni ibihaha by'Igihugu kuko bitunganya umwuka mwiza bikawutwoherereza tugahumeka tukabaho neza.

Ishyamba riteye ibiti bikiri bito, ni ku musozi bigaragare ko ibi biti bitakuze neza. Aha munsi yaho hari akazu gasakajwe amabati ndetse biragaragara ko bahororera.

Igihingwa cy'urubuto rwitwa ipapayi, gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, harimo kurinda indwara ndetse n'ibindi, ntabwo ryarirra, gusa riracyazamuka.

Umukobwa ukiri muto afite imbuto mu ntoki, yambaye agapira k'umukara ndetse n'umweru arimo araseka. Inyuma ye hari imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye harimo imyembe, wotameroni, amatunda n'ibindi.

Umugore ku ruhande rwe hari umugabo. Uyu mugore afite agakoresho kabugenewe mu ntoki bamejejemo imboga. Bose bambaye udupfukamunwa, umugabo hirya afite inoti y'ibihumbi bitanu mu ntoki.

Imboga zo mu bwoko bwitwa ibishayote, biri mu kabase k'umutuku, biri mu biganza by'uri kubicuruza, iruhande rwabyo hari imboga zitwa ibitunguru.

Umuyoboro ugeze amazi mu myaka, uyu muyoboro, iyo mu gihe cy'izuba kigeze, uraza ukunganira imyaka, ukayirinda kuma.

Umugabo afite igikoresho cya rozwari mu ntoki, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara, arimo aravomera imyaka mu buryo bwa gakondo, ibi bifasha ibihingwa gukura neza mu gihe cy'izuba.

Umugabo arimo arakora umuyoboro uzana amazi mu murima we. Ucometseho uduhombo tugiye dutandukanye two kuvomerera imyaka mu gihe izuba ryateye.

Ihombo ricometseho uduhombo twinshi dutwara amazi. Turimo turayerekeza mu bihingwa kugira ngo tuyavomerere mu gihe amapfa yateye ibihingwa bikomeze gutoha.

Abaturage barimo abagabo ndetse n'abagore bari mu gishanga, barimo baruhira imyaka yabo bahinze. Ni byiza kuhira imyaka mu gihe cyo mu cyi, kuko bituma imyaka ikura neza.

Umusore wambaye agapfukamunwa, yambaye agapira k'icyatsi ndetse na rozwa mu ntoki arimo arafuhira ikimera, runaka, aha ururimi rw'Icyongereza nicyo bita, iirrigation.

Abasore babiri, bahagaze imbere y'umugezi utemba, imbere yabo hari utwuma dushinzwe gukumira abantu, turi mu mumabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo ufite isuka mu ntoki, afite akadahisho arimo aradaha amazi afuhira ibitunguru. Ibi bitunguru iruhande rwabyo hateye amashu. Uyu mugabo urabona ko yashishikaye.

Ikibaya kirimo imyaka y'ibigori iruhande rwacyo hari imisozi myiza iterera hamwe harahinze muri iki kibaya ahandi ntihahinze.

Ikiyaga kiri ahantu heza hatuje kandi hatekanye. Mo hagati harimo uturwa. Aha abantu bashobora no kujya gutura, kuri utu turwa.

Imisozi myiza n'imirambi iterera, ikirere kirimo igicu k'imvura gike ndetse muri iyi misozi harimo ibiti bitandukanye ubuhinzi buteye imbere n'ibindi.

Umusozi uterera uteyeho imyaka igiye itandukanye munsi yawo hari inzu biragaragara ko aha ari mu Karere ka Nyabihu, ni umusozi uteye ubwuzu.

Umusozi muremure uteyeho ibiti ndetse ugahingwaho, hejuru mu gahinga hubatse amazu menshi, harimo umuhanda uciyemo bigaragara ko werekeza ahantu hatandukanye.

Imisozi myiza iteyeho amaterasi y'indinganire, ikirere kiratuje kandi kirakeye, aya materasi atuma ubutaka budacika ndetse ibihingwa ngo bimanuke hasi.

Ikiyaga ni kimwe mu bigira ubwiza nyaburanga, urabona ko harimo uturwa tugiye dutandukanye abantu bashobora no guturaho. Ibiyaga bikorerwamo imirimo itandukanye harimo ubucuruzi, uburobyi ndetse n'ubukerarugendo.

Inka iri mu kiraro irimo irarisha rifite iherena ry'umuhondo ku gutwi ndetse n'ingufuri icometse mu mazuru.

Inka z'amahembe maremare, zitwa inyambo. Abaveterineri baje kuzipima no kuzisuzuma ngo barebe uko ubuzima bwazo buhagaze. Inka z'inyambo ni nziza.

Inkoko zoroherwa ahantu hanini cyane, ziri mu bwoko bumwe bwa kizungu, ziri ahantu hasa neza, hasakaye neza, hafite umutekano.

Inka zororewe mu biraro byiza bya kijyambere, iruhande rwazo hari veterineri urimo arareba uko zimeze yambaye itaburiya y'umweru afashe ku kiraro.

Itungo ryo mu rugo ryitwa ingurube, riri ahantu heza hapavomye, riri mu kiraro ndetse hari agasahani kabigenewe, gashinzwe gushyirwamo ibyo rigomba kurya.

Ingurube iri mu ibara ry'umukara, ifite ibibwana birimo bironka ndetse iri ahantu heza twakwita nk'ikiraro hafite isuku.

Inka nziza y'imfirizoni iriri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, ifite icebe rinini biragaragara ko ikamwa, ihagaze ahantu heza kuri sima ipavomye.

Inka zirimo urwuri ni nyinshi, ikirere kirakeye cyatanze umucyo. Ni ku kazuba na zo ziraragiwe zirimo zirarisha.

Ubworozi bw'inkoko cyangwa se amatungo aciriritse, ari ahantu hamwe nyirayo biragaragara ko yateye imbere. Ni byiza korora inkoko kuko birwanya imirire mibi.

Mu dukoresho twabugenewe tubikwamo imishwi iki mito, tukayifasha gukura igakura idahungabana, ubworozi bw'inkoko ni bwiza, nimucyo tubahagurukire dukuremo amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko n'inkoko nyinshi cyane ziteraniye ahantu hamwe harimo udukoresho twabigenewe twifashishwa mu kuziha amazi, harimo n'ibase y'umutuku.

Ubworozi buteye imbere, bwiganjemo inka z'inyambo, abagabo batatu bambaye amasurubeti y'ubururu, imbere yabo hari veterineri wambaye, isarubeti y'umweru.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere buteye imbere, harimo aho inkoko zororerwa, harimo umugabo urimo agenda aho areba uko ubworozi bwe bumeze.

Amatungo yitwa ihene ari mu rwuri arimo ararisha harimo izifite amabara y'imyeru ndetse na kaki, biragaragara ko zitegereje gutaha.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo ibinyamisogwe ndetse n'ibigori. Harimo amashaza, ibishyimbo ndetse n'ibindi. Ibi byubaka umubiri.

Umukobwa cyangwa se umugore ari muri pipinyeri ahatunganyirizwa ibimera bitandukanye bikavamo imbuto nziza cyane cyane batunganyirizamo amavoka ndetse n''izindi mbuto zo kurya.

Mu buhinzi bugenda butera imbere, iki ni ikiganza gifite intete zifashishwa mu gutera, iyo zeze nabwo ziba zisa gutya, uyu muntu yambaye umupira w'umutuku.

Ubuhinzi bw'ibigori mu gihugu cy'u Rwanda bumaze gutera imbere. Uyu ni umubyeyi wunamye arimo arakoza ibiganza bye mu bigori abisanza. Arabyanitse kugira ngo byume neza bityo abihunike.

Ibiganza bifite imbuto z'ibinyamisogwe amasaka ndetse n'ibindi biragaragara ko bigiye kubihinga mu murima.

Veterineri ushinzwe kuvura amatungo harimo arimo arayitaho, yambaye imyenda yabugenewe, yambaye uturindantoki ndetse afite ibikoresho byabugenewe mu ntoki.

Ba veterineri batandukanye bari iruhande rw'inka zitwa inyambo, izi nka zigira amahembe maremare, harimo n'abashumba bambaye ibisarubeti by'ubururu.

Umusore wambaye itabiriya y'umweru, afite uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, arimo aratunganya imiti yo guha amatungo, ari kuyishyira ahabugenewe.

Ahororerwa imishwi ikiri mito bayicaniye umuriro kugirango ishyuhe biyirinde gukonja kuko byatuma ipfa, ni ahantu heza hashyushye.

Ibijerekani byabugenewe byifashishwa mu kugaburira amatungo agiye atandukanye, mo imbere harimo ibiryo ndetse bikase ku buryo itungo ribasha kurya neza.

Inka imaze kubyara inyana, iruhande rwayo hari umuveterineri ushyigatiye iyi nyana. Kubyara kw'amatungo biba byiza iyo uhamagaye ababigenewe, bakaza bakayibyaza.

Veterineri arimo arabangurira inka mu buryo bwa kizungu, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tujya gusa ubururu, ari gukorera mu kiraro cyiza gikomeye cyabugenewe

Umugabo uri muri laboratwari afite imiti mu ntoki, yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru ahagaze imbere y'imeza nini cyane.

Inka z'amahembe maremare, mu kinyarwanda tuzita inyambo. Hari abaveterineri, bambaye amajire cyangwa se amataburiya y'imyeru. Ku ruhande hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, barimo barazikingira.

Imparage ni inyamaswa zigira amabara y'umweru ndetse n'umukara, agiye amanuye, ziri mu bwoko bw'inyamaswa ziteye ubwuzu kuko ziba zisa neza.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ishyamba izwi nk'ishya, iri mu misozi irimo irarisha. Ifite amahembe y'umwihariko kuko uba ugira ngo ni ibiti.

Intare irimo irakina n'icyana cyayo, iyi ntare n'ingabo byombi biraryamye biri kota akazuba.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe, igira amabarage atandukanye, irimo iragenda mu ishyamba, iyi izwiho guhiga kandi ikagira inzara ndende.

inyamaswa ebyiri z'agasozi, bazita isatura, NI inyamaswa, ziri mu bwoko bw'ingurube uretse ko zo ziba zifite amahembe.

Inyamaswa z'agasozi ebyiri birasa nkaho ziri ahantu zororewe. Izi nyamaswa bazita inkura ni ingurube z'ishyamba.

Izi ni imbwebwe, imbwa z'agasozi zizwi mu mashyamba, ntizikunda kuba ahantu hari abantu. Iyo zakoze itsinda zitwa imbwebwe cyangwa se agakungu.

Igiti kinini gikomeye kiriho inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe. Ingwe iri mu nyamaswa zizwiho kuba ziteye ubwoba ndetse z'impigi.

Inyamaswa y'agasozi izwi ku izina ry'inzovu, ikaba igira umutunzi muremure ndetse n'amahembe. Aya mahembe azwiho kugira agaciro gakomeye cyane ko aba ashakishwa na ba rushimusi.

Inyamaswa yo mu gasozi izwi ku izina ry'ishya, ifite amahembe maremare iri mu ibara ry'umweru, iri ku gasozi ihagaze mu mabuye irimo irashaka ibyokurya.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe. Iyi ni inyayamaswa iri mu bwoko bw'ipusi nini, ni ikiryanyama. Ni inyamaswa itari nziza kuko iyo muhuye ni bwo ubona ko ari mbi.

Inkende ni utunyamaswa turi mu bwoko bw'inguge. Tuzwiho kurira cyane tukagera kure mu bushorishori, aha zirimo zirakina, zirahaze.

Inyamaswa zo mu misozi zitwa imparage zirimo ziriruka zifite amahembe ajya kumera nk'ay'ihene.